The wild animals here are Giraffes. They are likely to be found in Eastern Province of Rwanda, Akagera National Park. They are the tallest animals in the jungle or the forest, and also they are herbivores.